Umukobwa usutamye wambaye ijipo y'umukara n'ishati y'umutuku, ari kuvoma mu ijerekani y'umuhondo itetse mu mababi, amazi ari kuva hejuru ku ibati, inyuma ye hanitse imyenda amaze kumesa hari isa umukara, ubururu.

Ikigonderabuzima cya shagasha gifite inyubako nini isakaje amabati y'ubururu giteye amarangi y'umuhondo n'umweru, inyuma hari ibiti birebeye imbere yayo ibumoso iruhande rw'umuryango hateretse puberi iburyo hicaye abantu ku makaro.